Ifumbire ni nziza, ifasha abahinzi gutera ibihingwa bigashisha kandi bikera neza cyane, ku buryo bituma babijyana mu masoko atandukanye, kubera ubwinshi bwabyo.

Ifumbire ni nziza cyane, kuko idufasha mu gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, byo mu murima. Idufasha gutera imyaka maze ikera neza, tukabona n'amafaranga yo gukora imirimo igiye itandukanye, kubera yuko bateresheje ifumbire.

Amafi ni meza cyane adufasha mu buzima bwacu bwa munsi butandukanye nka mafunguro hirya no hino mu gihugu iyo uriye amafi wabivanze biraryoherera cyane, kandi ikindi amafi atuma ujya ifunguro ryujuje ubuziranenge cyane cyane ku bana bataruzuza imyaka itanu.

Amafi ni meza cyane, adufitiye akamaro mu biryo turya buri munsi bigiye bitandukanye, iyo amafi adahari bituma tutarya ifunguro riryoshye kandi ritaboneye.

Korora amafi ni byiza cyane bituma tubona ifunguro ryiza cyane bigatuma abana bato batagwingira, maze igihugu cyacu kigatera imbere mu mirire myiza.

Ibiryo bibamo amoko menshi cyane, agiye atandukanye, kuko hari n'ibyo usanga abantu bakunda ku buryo bwo hejuru, nk'ifiriti, ifi. Ibyo ngibyo, nibyo byiza, akenshi ubisanga no mu ma resitora agiye atandukanye, kubera yuko, niyo uri kureba, ubona bisa neza kandi binejeje, ku buryo bituma ugira apetit.

Ubworozi bw'amafi ni bwiza cyane, kuko budufasha kubona amafunguro yujuje ubuziranenge, bigatuma abana benshi cyane mu gihugu batagwingira bari kurya ifunguro ryujuje ubuziranenge.

Badushishikariza kurya ibiryo byiza cyane byujuje ubuziranenge, nk'ibihaza, inyama n'inyanya zitukuza ibiryo kuko ziri mu bikomoka ku bitera imbaraga, mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane.

Ubworozi bw'amafi ni bwiza cyane kuko ubudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amafi adufitiye akamaro gakomeye kuko atuma dutegura ifunguro ryiza cyane ryujuje ubuziranenge kandi tukabona ku bikomoka mu nyanja, kandi iyo ari nyinshi utabashije kuziteka zose zimwe uzishyira muri firigo cyangwa ugashyiramo barafu kuko ibyo nabyo biri muri bimwe bituma zidapfa.

Amasambaza ni meza cyane, adufasha mu gukora isosi yo kurisha ibintu bigiye bitandukanye nk'umuceri, ubugari, kawunga, ibyo biryo iyo uri kubireba biba binejeje cyane kandi bifite icyanga.

Ubworozi bw'amafi ni bwiza cyane, bufasha abantu gutegura amafunguro aryoshye kandi yujuje ubuziranenge, ku buryo no kuyareba biba bishimishije cyane.

Korora amafi ni byiza cyane. Bidufasha mu kubona amafunguro yujuje ubuziranenge. Maze ubonye ifunguro ukuntu rimeze neza, maze akanezerwa cyane akarya afite apeti ihagije.

Igihugu cy'iwacu tugira amafi agiye atandukanye, nka shaka iyo fi irabagwa ikavamo amafi menshi, maze agafasha abantu kubona isosi nziza cyane itukuye.

Mu Rwanda tugira ibyuzi byinshi cyane bigiye bitandukanye twororeramo amafi menshi. Maze bigatuma abantu babona intungamubiri nyinshi zituruka ku mafi, bakarya ibiryo byujuje ubuziranenge.

Beterave ni igihingwa kiza cyane abantu bakunda, byifashishwa mu gukorwamo ji ituma abantu bongerwa amaraso ku buryo amaraso y'umuntu aba menshi mu mubiri.

Inka ikunda ubwatsi bw'urubingo, irarurya ikishima cyane bigatuma itanga umukamo mwishi cyane, maze abantu na bo bakanwa amata bishimye kubera umukamo w'inka.

Avoka ni nziza cyane . Ziba zisa icyatsi kandi ni nziza mumubiri wacu ,kuko usanga zifite akamaro kanini mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Abahinzi bahinga ibijumba bigiye bitandukanye. Hari ibijumba biba bisa umutuku, ibyo ngibyo biraryoha kandi bigira amafufu, ku buryo ubiriye atifuza kurya ibindi biryo.

Kinigi bahinga ibirayi byinshi cyane bitandukanye by'amoko menshi. nk'ibyumweru ni byiza cyane akenshi ubisanga mu masoko babicuruje maze wabibona ukuntu biteye amabengeza bikakunezeza cyane bikagutera ifemba yo kubigura.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane gishimishije, k'uburyo uwagihinze bituma abona amafaranga, yo kwishyurira abana amashuri, abana bakiga neza ntagihunga.

Ikawa ni nziza cyane. Idufasha kubona icyayi kiryoshye, kandi yambukiranya mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino, tukabona amafaranga menshi cyane mu gihugu cyacu, kandi ikaduha, ikaduha n'imisoro myinshi mu gihugu cyacu.

Amapera ni meza cyane, aba asa icyatsi, iyo yeze cyane asa umuhondo. Amapera ari mumbuto nziza cyane abantu bakunda, kuko yera mu bihe bigiye bitandukanye, maze abantu bakayarya bishimye banezerewe.

Mu buhinzi duhinga ibiribwa bigiye bitandukanye cyane, duhinga nk'ibirayi, tugahinga puwavuro, tugahinga karoti, tugahinga n'ibishyimbo bikavamo ibitonore.

Ubunyobwa ni bwiza cyane. Buraryoha kandi buraneje cyane. Butuma tubona ifunguro risa neza iyo wabubese nk'isombe, isosi nziza y'indagara, n'izindi nyinshi zitandukanye.

Karoti ndazikunda cyane , ni zimwe ni zimwe mu bihingwa binejeje cyane . Kubera y'uko iyo uzitetsemo isosi wumva iryoshye cyane , kandi kikavura n'amaso.

Amaronji ni meza cyane, abamo amoko menshi agiye atandukanye. Hari aba asa icyatsi, hari n'ayandi aba asa umuhondo. Amaronji ni meza kuko agira akamaro ku bana batoya cyane.

Ubuhinzi bw'ibigori ni bwiza cyane, iyo ibigori byeze bitanga umusaruro mwinshi cyane maze tukabona n'amafaranga yo gutangira abana ku mashuri maze bakiga neza banezerewe.

Ibujumba ni byiza bituma abantu bishima, noneho abadafite ubushobozi abenshi nibyo bigurira kubera bigura makeya . Noneho iyo uri kubinywesha amata wumva unezerewe cyane.

Inanasi ni nziza cyane, akenshi usanga ziri kugura amafaranga menshi cyane, kuko ziryohaga kandi bakazifashisha bari gukoramo ji zitandukanye. Ku buryo umwana uzinyweyeho yumvayishimye kandi anezerewe cyane.

Imineke ni myiza cyane, kuko usanga ifite ibara ry'umuhondo. Akenshi iyo itari yera usanga isa icyatsi. Bigatuma abantu bayikunda kuko igira akamaro mu mubiri. Kandi abana batoya bakayikunda, kuko ituma bumva uburyohe bugiye butandukanye mu kanwa kabo bakishima.

Ibijumba ni byiza cyane bigira amafufu, kandi bigatekwa mu buryo butandukanye cyane. Hari ababitogosa bagateka imboga ku ruhande, hari n'ababitekamo ifiriti, kandi hari n'ababiteka bivanzemo n'ibishyimbo.

Igitoki ni kiza cyane, kigira ibara risa icyatsi. Kandi ibitoki bibamo amabara agiye atandukanye. Hari n'ibiba bisa umuhondo, ibyo ngibyo bivamo imineke myiza.

Inyanya ni nziza cyane ,iyo zihiye zibaga zisa nk'umutuku, kandi zidufashaga gukora isosi nziza cyane iryoshe, kandi zigakoza n'ibindi biryo bigiye bitandukanye.

Ibigori ni byiza cyane bibamo amoko agiye atandukanye hari ibiba bisa n'umweru, hari n'ibindi biba bisa umuhondo. Ibyo bigori byose biduha amafu agiye atandukanye.

Abahinzi bahinga ibicuruzwa byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari intoryi zisa umukara, hari n'izindi zisa icyatsi. Bagahinga n'ibitunguru, bagahinga na pwavuro, bagahinga n'avoka, bigatuma basagurira amasoko agiye atandukanye, bakabona n'ibyo kurya.

Ibirayi ni byiza cyane. Bibamo amako agiye atandukanye. Hari ibyo bita Kininigi, ibyo ngibyo bigira amafufu, kandi bivamo ifiriti nziza cyane, isa neza, iryoshye.

Ubuhinzi bw'intoryi ni bwiza cyane buduha amafaranga menshi cyane, kandi intoryi zituma tubona isosi nziza yo kurisha nk'umuceri, kawunga, n'ibindi byinshi.

Bwayisi ni igihingwa cyiza cyane gikundwa n'abantu benshi. Bakunda kugikoresha mu bukwe bugiye butandukanye, kandi iyo wagitekanye n'ibishyimbo kivamo gisa neza bihebuje.

Ikijumba ni igihingwa cyiza cyane abantu bakunda iyo bagitetse, kigira amafufu menshi cyane, maze bigatuma na wa muntu wifitiye ubushobozi buke, yigurira ibijumba akabirya akanezererwa.

Ibirayi biraryoha cyane bibamo amoko menshi cyane atandukanye, hari ibyumweru, ibyo birayi birafufuka kandi iyobiteguyemo amafunguro ubona binejeje bishimishije cyane.

Voka ni nziza cyane, ifasha abantu mu gukora ibintu bigiye bitandukanye, nka mayonese iyo uyifashe ukayikora muri voka, iyo uyishyize ku biryo wumva iryoshye, kandi voka idufitiye akamaro kanini mu mubiri wacu.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni bwiza kuko bidufasha kubona amafaranga, maze tukabaho neza, mu mibereho yacu, ndetse n'abana bacu bakiga neza nta gihunga.

Abahinzi bakunda guhinga imboga nyinshi zigenda zitandukanye. Akenshi imboga zifashishwa mu gutegura ifunguro ryujuje ubuziranenge, ku buryo umwana mutoya atagwingira.

Ubuhinzi bw'ibirayi ni bwiza cyane. Iyo byeze biduha umusaruro mwinshi cyane, bigatuma dusagurira amasoko agiye atandukanye, kandi tukisagurira n'ibyo kurya byinshi.

Imyumbati ndayikunda cyane, iyo uyitetse irakunezeza cyane kandi ikagira n'amafufu ku buryo uyibonye wese aranezerwa cyane, bikamutera ifemba yo kurya imyumbati yishimye anezerewe cyane.

Imyumbati ni myiza cyane, itera imbaraga kandi uwayiriye aranezerwa cyane, ku buryo n’uwayihinze yumva bimunejeje bihebuje.

Abahinzi ndabakunda cyane, bahinga imyaka igiye itandukanye, kandi idufitiye akamaro ka buri munsi. Mu byo dukenera hari ibigori, ibyo ngibyo bituma tubona ifu ya kawunga, hakavamo iryoshye cyane.

Muri kariyeri habamo imbuto nyinshi cyane zitandukanye zidufashaga mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi ziryoshe. Hari pome, hari ibinyomoro, hariebe hari, wotameroni, hari n'amarongi, byose bidufasha mu buzima bwacu.

Gare ya Musanze habamo isoko ryiza cyane, ricuruza imbuto zigiye zitandukanye. Usangamo imyembe, amaronji, ibinyomoro, amatunda, ndetse n'ibindi byinshi cyane bishimishije.

Mu buhinzi bahinga ibiribwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, bahinga ibishyimbo bya nyiragateja, bahinga puwavuro, bahinga puwaro, ibyo byose bituma tugira ubuzima bwiza bwa buri munsi, turya ifunguro ryiza cyane.

Amapera ndayakunda cyane. Ni zimwe mu mbuto abantu bakunda cyane kubera yuko zigura amafaranga make, abana bakayishimira ku buryo bagenda hirya no hino bari gushaka amapera, kubera kuyakunda.

Ibyiza bidufasha kubona ubwatsi, iyo bitari byera ku ngo ubwatsi bwume, kandi noneho iyo byeze ,bituma amafunguro aba meza cyane, iyo batetse n'ifiriti.

Insenda ni nziza cyane zituma tugira apeti mu byo turi kurya, kandi tukanezerwa ku buryo uwaruriye n' utaruriye baba batandukanye cyane, maze uwaruriye akagenda ari kuvuga ati: urusenda nirwa mbere.

Ibirayi ni byiza cyane bigira amafufu kandi ubitekamo ifiriti, waba uri kuyirya ukumva uranezerewe cyane, maze umuntu wayitetse kubera ubwiza, iba iboneye, iba isa neza akanezererwa cyane.

Ibinyomoro ni byiza cyane. Iyo byeze biba bisa umutuku. Kandi bifasha kongera amaraso mu mubiri ku wayabuze, maze kandi n'uwabihinze akabona amafaranga ahagije yo kujyana ku masoko hirya no hino atandukanye.

Avoka ni nziza cyane, ni zimwe mu mbuto ziryoha cyane zikundwahaye mu bantu. Bakunda kuzirisha ibiryo bigiye bitandukanye, kuzirisha ibirayi, ibijumba, kawunga n'ibindi byinshi. Wumva biryoshye.

Amashu ni meza cyane, aba asa icyatsi, kandi bayajyana ku masoko agiye atandukanye. Abantu bakayagura, kuko ari mu mboga zimwe na zimwe zidufasha kurya ibiryo bigiye bitandukanye. Maze abantu bakayagura ari benshi, bakagenda, bakayateka, bakarya, bakanezererwa.

Karoti ni nziza cyane, zidufitiye akamaro kanini mu buzima bwacu, usanga zivura abantu amaso, maze amaso yabo agasa nk'umweru.

Igihaza ni cyiza cyane cyoza mu nda, maze ukiriye akanezerwa cyane kandi agahaga, ku buryo arusha n'uwariye ibiryo byiza kuryoherwa maze akanezerwa.

Abahinzi ndabakunda cyane, bahinga ibishimbo bikadufasha mu gutubura ibiryo, bakaduha ibishimbo bikaduhana n'umushogoro abantu bakawuteka bishimye cyane kubera uburyohe bwabyo.

Mu rwanda tugira inganda nyinshi cyane zikora kawunga. Izo nganda usanga zifite amazina agiye atandukanye nk'izitwa Kayonza furu, Musanze furu, n'izindi nyinshi.

Amaterasi ni meza cyane, aturinda isuri mu mirima itandukanye hirya no hino, bikarinda impanuka nyinshi n'impfu nyinshi mu mudugudu y'iwacu ,tukabaho neza tunezerewe cyane.

Ibishyimbo ni byiza cyane bitubura ibiryo bigatuma abantu barya bagahaga bakanezerwa cyane kubera ibishyimbo byabaye byinshi bakarya bagahaga.

Amasaka ndayakunda cyane, usangaga asa n'umutuku, kandi adufasha kubona igikoma cyiza kirimo intungamubiri, kandi havamo umutsima w'abakecuru uryoshye cyane.

Ibishyimbo bibamo ubwoko bwinshi cyane bugiye butandukanye. Hari ibyo bita nyiramabuno, ibyo ngibyo biba bibyibushye bifite igishimbo kinini, kandi biba bifite uruyange rusa n'umutuku cyane.

Ubuhinzi bwa soya butanga umusaruro mwinshi cyane ugiye utandukanye, kuko bifasha wa muntu wabuhinze gutuma abona amafaranga, yo kwishyurira abana amashuri bakabaho neza mu mibereho yabo.

Ubunyobwa ni bwiza cyane noneho iyo bubese budufasha mu gukora isosi nziza ifashe, maze tukarisha ibiryo bitandukanye nk'ubugari ,umuceri, ndetse n'ibindi byinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ubunyobwa ni bwiza cyane bugiraga ibara risa umutuku, kandi iyo buseye butanga ubunyobwa bwo gutekesha isosi nziza ifashe.

Ibishyimbo ni byiza cyane. Bigiramo amoko agiye atandukanye menshi. Hari ibiba bisa umukara, bifite uruyange rusa umutuku. Ibyo ngibyo biraryoha, bikagira icyanga.

Amashyaza ni meza cyane iyo uyatetse mu birayi wumva biryoshye, kuburyo iyo ubiriye ari ubwa mbere wumva nta bindi bintu warya atari amashyaza, maze ubundi ukiberaho neza mu buzima bwawe.

Ibishyimbo bibamo amoko menshi cyane agiye atandukanye. Hari ibishyimbo biba bisa umweru ibyo ngibyo iyo ubivanze mu ifu y'igikoma bituma igikoma kiryoha cyane, ku buryo buri muntu yumva yakinywa.

Urunyorwe ni rwiza cyane iyo urutetse ruraryohaga cyane, noneho iyo uruvanze n'igitoki bitumaga umuntu ajyana apeti, akishima kubera yuko uburyohe bw'urwo runyorwe ruryoshye kubi.

Ubunyobwa ndabukunda kuko iyo uri kubureba usanga busa umutuku, hagati hari agashishwa gasa umweru. Iyo ubukaranze uraburya ukumva buraryoshe. Kandi iyo mububese havamo ubunyobwa bwiza cyane butuma tubona isosi nziza ifashe.

Inka ni nziza cyane. Ziduha ibintu byinshi bitandukanye. Ziduha inyama, ziduha amata, ziduha ifumbire. Ibyo byose bikadufasha mu kubona amafaranga tukibeshaho neza mu buzima bwacu.

Inkoko ni nziza cyane zidufasha kubona amagi yo kurya n'ayo kugurisha, tukabona amafaranga ku buryo tubasha no kwishyurira abana amashuri atandukanye, hirya no hino meza.

Ihene ni nziza cyane zirororoka kandi ziduha umusaruro mwinshi cyane ugiye utandukanye, bigatuma tujyana ku masoko agiye atandukanye hirya no hino kubera umusaruro wazo, maze kandi ziduha n'ifumbire idufasha gutera imyaka bikera neza bishishe.

Ingurube ni nziza cyane zirororoka, zikadufasha kwishyura amashuri y'abana ,kandi zikaduha ifumbire nyinshi cyane, zigatuma imyaka yera ari myinshi, kandi isa neza nta ndwara n'imwe yarwaye.

Ingurube ni nziza cyane, iyo zifite ubuzima bwiza zirororoka cyane, zigatanga umusaruro mwinshi, zigatanga ifumbire, amafaranga, n'ibindi byinshi mu muryango abantu bakenera, bigafasha kubona amafaranga yo kubyihishura.

Ingurube ni nziza cyane kuko usanga zitanga umusaruro mwinshi cyane uhagije, noneho iyo zifite ubuzima bwiza ziroroka, zikabwagura ibibwana byinshi cyane maze zikaguha umusaruro uhagije.

Busheri ni nziza cyane kuko idufasha kubona amafunguro agiye atandukanye, mu mibereho yacu ya buri munsi, maze bigatuma abana batagwingira kubera kurya ifunguro ryujuje ubuziranenge.

Ingurube ni nziza cyana. Zitanga umusaruro uhagije. Zikaduha ifumbire, idufasha mu gutera imyaka yacu, imyaka ikagenda ikabyibuha maze ibiribwa bikiyongera, kubera ifumbire.

Inka ni nziza cyane zitanga umusaruro, noneho iyo irangije kubyara itanga umukamo mwinshi cyane. Maze ikaduha ifumbire, ikaduha amata ndetse ikaduha n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hirya no hino idufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi bigatuma tubaho neza muburyo twifuza.

Ingurube ni nziza cyane ziduha ifumbire, zikaduha inyama, mbese zigatuma imyaka yororoka kubera iba yabonye ifumbire. Kandi ziroroka cyane zigatanga amafaranga.

Ubworozi bw'inkwavu ni bwiza cyane. Inkwavu ni agatungo kagufi, kororoka cyane, gafasha abantu mu kwiteze imbere byihuse, kandi binejeje cyane.

Inyambo ni nziza cyane kuko zigira amahembe maremare kandi ziba ari nini cyane, akenshi bakunda kuzitanga mu bukwe bugiye butandukanye kuko akenshi ubona ari bwo zirimo, kandi ubona zisa neza ku buryo buhebuje.

Inkwavu ni nziza cyane zitanga ifumbire zigatanga inyama ndetse zikanoroka cyane, ku buryo uzoroye anezerwa cyane kandi akabona n'amafaranga ahagije yo kwishyurira abana amashuri.

Inkwavu ni nziza cyane zirororoka cyane zigatanga umusaruro uhagije, kandi zikaduha n'ifumbire yo guteresha imyaka, ndetse n'inyama zazo ziraryoha cyane.

Ingurube ni nziza cyane ziduha ifumbire kandi ziroroka cyane, ku bazifite zibafasha kubaha amafaranga bakishyurira abana amashuri bakiga neza bishimye.

Inyoni ni nziza cyane zibamo amoko menshi cyane agiye atandukanye hari: inyoni zibera mu giti izo nyoni akenshi usanga zibereyeho neza n' umutuzo, noneho iyo zibyutse mu gitondo cya kare ziri kuririmba wumva ari byiza cyane.

Igishuhe ni cyiza cyane. Uzi iyo kiri mu mazi giteye amabengeza. Abantu bose bakibona bakagitangarira, bigatuma abantu benshi mu mago babyorora, kubera y'uko ari byiza binejeje.

Agakwavu ko mu ishyamba ni keza cyane karashimishije no kukareba ubwabyo, bituma unezererwa kagira kagira amatwi maremare, kandi iyo kari kwirukanka kaba gafite umuvuduko mwinshi.

Inyoni zibamo amoko agiye atandukanye, kandi ziraguruka ukabona biranejeje. Iyo uri kuzireba, ubona zishimishije ziteye amabengeza.

Mu kinigi habayo ingagi zituma tubona amafaranga aturutse kuri ba mukerarugendo, maze bigatuma habaho n'umunsi wo kwita ingagi, bigatuma Kagame Paul aza i Musanze kubera icyo gikorwa.

Inyoni zibamo ubwoko bwinshi cyane bugiye butandukanye, hari akanyoni bita agafundi ,ako ngako akenshi usanga gafite amabara y'umutuku n'ay' umukara, ku buryo usanga ari kagufiya ariko gafite n' umurizo muremure, gakunda kwirira ibigori n'ingano, kuko akenshi usanga ari ibinyampeke.

Imbeba zibamo amoko menshi cyane agiye atandukanye, hari imbeba ziba zisa nk'umukara, izo ngizo ziba mu mwobo, zikunda kurya ibyo zitahawe.

Mu mashyamba tugiramo utunyamaswa twinshi cyane tugiye dutandukanye, kandi tugira amabara menshi cyane agiye atandukanye meza. Maze ba mukerarugendo bakaza ari benshi mu Rwanda, batuzaniye amadovize menshi.

Agakendi ni keza cyane gateye amabengeza kandi gakunda imineke ku buryo buhebuje, ku buryo ukabonye Karikurya imineke wumva binejeje maze bamukerarugendo baza bari kukareba bakatuzanira amafaranga menshi.

Agahene k'ishyamba ni keza cyane. Gateye amabengeza iyo uri kukareba. Kandi iyo kari kwirukanka wumva bikunesheje cyane, kuko kagendera k'umuvuduko uri hejuru cyane. Maze kandi iyo ugafashe ukakaryamo inyama, ziraryoga cyane bikanezeza.

Mu biguruka habamo inyoni nyinshi cyane zigiye zitandukanye, kandi zifite amabara meza nk' inyoni ziba zifite amabara: umukara n'ay' umweru ayo mabara ni meza cyane aranejeje.

Mu biguruka, bigiramo amoko menshi cyane agiye atandukanye: hari ibigira umunwa muremure biri gushaka ibibitunga, kandi bikagira n'amaguru abiri, zikagira n'amabara meza cyane.

Inyoni zibamo amoko menshi cyane agiye atandukanye. Akenshi inyoni zibera mu biti, maze zikabyuka mu gitondo cya kare zijya gushaka ibyo zirarya, kandi ziririmba zinezerewe.

Mu biguruka habamo udusimba twinshi cyane tugiye dutandukanye. hari nk'igikona, kiba gisa nk'umukara, icyo gikona ni cyiza, kuko n'iyo uri kukirereba ubona gitangaje.